Ibyubaka umubiri bituruka ku matungo bikundwa cyane biryoha cyane bihenda cyane muri iyi minsi ariko umubiri wacu uba ubikeneye tujye turagerageza kugirango ubibone.

Ibinyobwa biba birimo arukoro nyinshi hari abantu benshi babikunda ariko ntabwo ari ngombwa ko umubiri wacu uhora urayibujyamo buri munsi tugomba kugafata gakeya ku bagafata ariko abatagafata nabo ntacyo bitwaye.

Ibyubaka umubiri biteguranwa ubwitonzi n'ubuhanga, bikundwa cyane n'abantu b'ingeri zose, kandi bihenda cyane, kuko mu cyaro ntawe ugipfa kubyigondera.

Buri wese ku rugero rwe aba afite uburenganzira bwo kwishima yishima aho yishyikira, arisanzura akari ku mutima arakavuga wamureba ugasanga akanyamuneza kaba kari mutima we.

Abantu mu mibanire yabo babana neza ,barakundana barafashanya ,barishimana, byose babikora umutima wabo ntadishyi ufite, bityo umubano ukagwira.

Ifunguro riba riteguye neza, rigomba kuba rikubiyemo amoko agera muri atatu y'ibiribwa. Ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga n'ibirinda indwara.

Nyuma y'imirire habaho n'minywere, umubiri wacu kuri bamwe byose ubikenera. Ni ngombwa ko tugomba gusabana, tukishima, tukaganira, tugacoca ibibazo, tugahuza imiryango, igasabana abageni ndetse ikanashyingirana.

Ibyubaka umubiri ni byiza cyane, iyo biteguwe neza biraryoha. Bigira uburyo bwinshi bwo kubitegura, biribwa bitetse, biribwa byokeje, byose bikaryoha cyane, bitewe n'uburyo baba babiteguyemo.

Ahantu hacururizwa ibintu batekesha batabanje bacana umuriro iteka vuba, bihisha vuba abantu bose bashishikarizwa kubitunga.

Abagira ingendo zitandukanye iyo bagize ikibazo cy'igifu, kibuze icyo gukora bagira aho binyogorera bakajya kureba icyafashe igifu, kubona umurimo wacyo, bityo ubuzima bukendereya.

Ahantu bacururiza imyenda yo kwiyorosa, iyo kwambara, n' ibyo kuyitwaramo, byose ukabishakira ahantu hamwe.

Garagaza ibikorwa byawe ukora n'aho ujya ubikorera , bizaguha inyungu nyinshi cyane kuko uzashaka kukugana wese azaza nta mbogamizi zimubayeho , ahite akugeraho cyane rwose.

Isoko ricururizwamo ibintu bita palasitiki birimo amabara y'ingeri zitandukanye harimo ibyo gukarabiramo, harimo ibyo kunywesha igikoma, amazi, amata, ndetse n'ibindi mu buryo butandukanye.

Ahantu haba hacururizwa ibintu biba bitandukanye ni ngombwa ko hagahoze hari karibu, abaje bakahabasanga kugira ngo bakunde aho hantu kandi hajye hagira abakiriya cyane.

Modesite akorera ahantu heza cyane, yashyizeho ibimuranga nuvuye ikantarange, akaza abaza ngo kwa modesite nihe? niyo atigera abonye umurangira, arahamenya akahijyana kuko hariho ibimuranga pe!

Ikirere k'iwacu iyo hari umucyo，kiba cyererutse， gikenkemuye， gisa neza，mbese ari nk'amata， niyo mpamvu ikirere k’iwacu ari kiza cyane.

Ahantu hacururizwa ibikoresho bya palasitiki, birimo ibikoreshwa mu miyoboro y'amazi, ibikoreshwa mu gukusanya imyanda ahantu hatandukanye, byose wabisanga aha hantu.

Ahantu hacururizwa ubwoko bw'amasabune y'ifu atandukanye, afunze mu ndobo, ari mu dushashi, byose bikaba bihurizwa mu gukora isuku yo mu bintu bitandukanye.

Nta kintu kibaho ngo kitagira ingorane cynagwa se ngo kitagira uburambe aho bugarukira ariko iyo bibaye ngombwa ushaka muganga wacyo ukamwegera, arabivura bigakira, iyo byanze urabireka.

Ahantu haba hafite umutekano haba nta wahavogera uko yishakiye, iyo ushaka abari imbere uhamagara mu buryo bwubahirije amategeko y'aho hantu, kugira ngo hadapfa kuvogerwa n'uwenze wese bikica umutekano waho.

Ahantu hacururizwa ibyo batekesha ibyo kurya, ahantu washakira ibyo ukeneye, mu gihe gito kandi ukabibona mu buryo bwihuse.

Iyo umuntu yiteguye kugira igikorwa akora, agomba guhora ahari akagikora neza abaje kumushaka bakajya bamubona, kugira ngo atitera icyizere , ahubwo bajye baza baza basange ari tayari , ahari buri gihe.

Ahantu hacururizwa ibintu batekesha, bikenerwa cyane n'abantu b'ingeri ziba zitandukanye. Bikenerwa amasaha yose, ku buryo ubishaka wese isaha ku isaha yabikenera. Ni ngombwa ko ubicuruza agomba kuba ahari.

Ahantu hacururizwa ibyo bita amapiyesi y'imodoka asimbura ayagize ikibazo, nta modoka igenda idafite urwo rugingo, niyo mpamvu rero hagomba kumenyekana bakahamenya.

Ahantu bashakira ibintu bijyanye n'imirire, bijyanye n'iminywere, bijyanye n'ibyo abana bakenera cyane ni ngombwa ko duhora twuguruye amarembo y'aho dukorera.

Ufite ubushake bwo gukora ntacyo atakora ,kandi nta hantu atakorera hamufasha .Muhire adandaza uduconsho ,turagenda kandi akunguka bityo ashobora kuzagera ku nzozi ze akazisoza neza ,akagera kuri byinshi.

Mu bikorwa byacu bya buri munsi, tugomba kubikora nta we tubangamira, nta we tubuza uburenganzira bwe. Buri wese agira ubwisanzure ahabwa n'itegeko kandi amategeko n'amabwiriza arakurikizwa.

Abaturage baba bafite ubushobozi, babashishikariza kubaka inyubako ziba zigeretse ku zindi, rero ni byiza ko bakoresha ayo mabwiriza kugira ngo ubutaka bwacu bubungabungwe.

Igihugu gifite imyubakire iba ijyanye n'igihe kigaragaraga neza, agace ziherereyemo usanga hagaragara neza ndetse n'abandi baza bahagana ugasanga bahishimiye cyane.

Abantu ntabwo ari bo bagira amazina gusa, cyangwa ngo inyamaswa ziyagire zonyine, n'ahantu umuntu yaba akorera hagomba kuba hagira izina, kugira ngo uhashaka wese age ahamenya atavunitse.

Mu bucuruzi habamo ingeri zitandukanye hari ibyo ugurisha bigenda nk' umuyaga, uhereza amafaranga ibindi byagiye , wareba ukabisanga aho bigomba kujya kandi wowe utabikubise amaso biba bikaze.

Ibyubaka umubiri biba ingenzi, bizamura imibereho y'abantu babikoresha , aborozi babona amafaranga , abacuruzi bakayabona , ndetse n'abaciriritse bibonamo.

Bamwe mu bantu bakunda ibyo bita alukoro ,benshi bayigura ibahenze kuko baba babishoboye, ariko ntabwo ari benshi bayikunda ,kubera ko umubiri wacu udakenera nyinshi, kuko iyo ibaye nyinshi izahaza umuntu uyinywa.

Ahantu ho bacururiza ibintu biba bijyanye n'imyambarire iba ari iy'igitsina gore, ushaka kumererwa neza no kuberwa ajya ahantu nk'ahangaha akahasanga ibijyanye n'icyifuzo cye.

Mu mibereho ya muntu ni ngombwa ko agira aho ataha， aho akorera， uburyo agenda agiye mu ngendo zitandukanye， uburyo avugana n'abandi，n’ibikoresho yifashisha kugira ngo ubuzima bwe bugende neza.

Umurimo wose ugira amategeko bawugenga, n'uko gukorwa n'ibiba bibujijwe kugira ngo ubikore ,ubifate uri gukora, ibyo bita alukoro ntabwo biba byemewe ,ku muntu ufite ubuzima bwa mugenzi we mu nshingano, kugira ngo atabuhutaza.

Ahantu hacururizwa ibintu byo gukarabiramo, ibintu byo gutwaramo, ibiribwa byubaka umubiri, ibiribwa bitera imbaraga, byose uhageze wabihasanga.

Iyo urebye neza usanga ahantu umuntu aba yubatse iyo ari ahantu hagera akazuba neza, hakaba akayaga keza, agacucu, hari ubusitani buba bumeze neza, usanga ari byiza ntacyo wabinganya.

Imiturire myiza ijyana n'ibindi bintu biba bikikije impande yaho iba iri ugasanga bisa neza akayaga gahuhera, ndetse n'uje ari ku kugana akaza afite aho arahagarara ni byiza cyane.

Mbere umuntu yashakaga akantu akumva ko ararema isoko rya kure, twakoraga urugendo amasaha abiri, atatu agashira, ariko ubungubu iyo umuntu akeneye akantu hari utwo guteka ku manywa, cyangwa akunyu wirukira ku gasantere, icyo ushaka ukakibona vuba byihuse amajyambere yaraje.

Abantu baba bafite ubushobozi umufuka wabo umeze neza, ubukungu bwabo iyo buhagaze neza cyane, bagira igihe cyo gusohoka bakagira aho bajya n'imiryango yabo, bakishimisha bakiyakira ,ugasanga umubiri wabo unezerewe n'imiryango yabo.

Ibihingwa bikundwa cyane, abantu babihinga ahantu ho ubutaka buba ari bwiza, byera ku tugozi turandaranda hasi, iyo ugeze mu murima wabyo byareze neza usanga bibereye ijisho.

Ahantu hacururizwa ibikoresho bitandukanye, harimo ibiba babikozwe muri palasitikike, ibyo bakarabiramo ibyo babikamo n'ibiba bikoze mu biti birahaba.

Imirimo yose ntabwo ikorwa ku manwa gusa, hariho n'ikorwa nijoro, bitewe n'urumuri abahanga bacu bagiye bakora barwifashisha, ugasanga igikorwa nticyahagaze, ahubwo cyakomeje, bakagisoza neza kubera iryo koranabuhanga.

Buri wese agira amarangamutima amuranga, bitewe n'icyo ari kureba cyangwa ari kumva, kubera ko imyitwarire yacu igiye itandukanye, mu buryo tujya twakira ibintu tubonye cyangwa twumvise.

Imiturire myiza iba iri ahantu heza, nta suri iharangwa haba hari akayaga keza, kubera ibihakikije biba bihari, aho hantu iyo uhageze ubona ari byiza cyane.

Isuku iba isoko y'ubuzima bwacu bwose, ni ngombwa ko tugomba kuba tuyigira aho turi hose, kuko bidufasha kwirinda uburwayi, kudakwirakwiza ibintu bidakwiye byanduza abantu.

Imiturire n'imyubakire iyo bikozwe neza, usanga inogeye ijisho, hari bimwe bakoresha biba bikoze mu ibumba, usanga binogeye ijisho iyo ugeze aho bagiye barabikoresha. Ntako biba bisa.

Imiturire myiza iba ingenzi iyo umuntu abishoboye , agomba kubikora uko bigomba gukorwa , aho umuntu atuye agomba kuba agira ibiti biribwa imbuto, ibindi bizana akuka keza ugasanga binogeye ijisho.

Ahantu hacururizwa ibintu bijyanye n'ibyo bisiga bitamdukanye harimo: abagabo, ari abagore bose, buri wese ajya guhitamo ibyo yisiga akurikije ibigendana n'umubiri we.

Ibicuruzwa biba byemewe, bigira ikirango bita icy'ubuziranenge, bicururizwa ahantu heza, hateruye, hatagira umwanda, kugira ngo ubuzima bwacu butajya burahangirikira, bitewe n'ibyo tuba twafashe bidakwiriye.

Ahantu hacururizwa ibikoresho bitandukanye, harimo ibyo mu gikoni batekeramo, ibyo batekeraho n'ibyo bakarabiramo . Ukabibona mu buryo bukoroheye cyane.

Iyo abantu bagiye barahura bahuriye ahantu haba ari hagari, buri wese aba afite icyamuzinduye, afite ikimuraje ishinga, bityo buri wese mu mutima we agenda afite intego y'icyo agiye gukora.

Ahantu haba hacururizwa ibintu biribwa, bimwe ndetse biribwa ako kanya, hagomba kuba hafite icyo bita isuku, hariho icyo bita utuntu two guterekaho hejuru, kugira ngo byere kujya hasi bikajyaho imyanda.

Ahantu bacururiza ibintu bijyanye n'ibirungo byo gushyi mu biryo, ibyo bashyira mu mazi bari kumesa imyenda yabo, ibyo bakoresha bari kuborosa mu kanwa, byose wabishaka ukabisanga ahantu hamwe.

Ahantu hacururizwa ibikoresho by'isuku harimo isabune zo gufura imyenda yose, izo koza ibikoresho, izo koza ibirahure, ndetse n'ibindi bikoresho by'isuku bitandukanye.

Umwuga w'ububoshyi iyo ukozwe neza uha nyirabwo amafaranga .Ibikoresho bimwe byo mu buboshyi byifashishwa mu makwe ,mu birori bitandukanye kandi aho biri usanga binogeye amaso.

Umuntu uba afite icyo agamije gukora arategereza. Yakirana na yombi abamugana. Ntarambirwa kuko isaha ku isaha aba afite icyizere cy'uko baraza.

Mu busanzwe isoko rirema abantu babiri hari ho ugura hariho n'ugurisha hariho uha undi amafaranga kugira ngo na we agire ibyo ajya arigezaho bityo iterambere rikomeze.

Ahantu bacururiza ibiribwa byiganjemo ibirinda indwara, ibyubaka umubiri, byose ukaba wabihashakira ukabibona.

Ibintu bijyanye n'akajagari k'ubucuruzi ubuyobozi burabigabanya, ariko nta bwo bwemera gucika, kuko hirya no hino mu dusantere no muri karitsiye, usanga ari bwo bwiganjemo cyane.

Umubiri wacu ukenera ibintu byinshi, ukenera gukaraba ugakenera kwisiga, haba ari nijoro ugakenera kureba iyo hari icyo bita umuyobe. Ni ngombwa ko rero umubiri wacu tuwuyobora neza ku manywa, ndetse na nijoro.

Isoko bacururizamo ibiribwa by'amoko y'imboga zitandukanye， harimo iziribwa ako kanya， harimo iziribwa ziteretse， ariko zose zikaba zitwa imboga. Niyo mpamvu tugomba kwihatira kurya imboga， mu ifunguro ryacu.

Ubworozi bw'amatungo magufi bukozwe neza butanga umusaruro. Ni ngombwa ko umuntu wese ushaka kwinjira mu icyo gikorwa agomba guhugurwa, akamenya ibyo agiye gukora ibyo aribyo n'uburyo bikorwa.

Ahantu bacururiza ibintu barya. Barabicamutsa ku muriro, bashyiramo indyoshandyo, bagashyiramo ibiryo, ugasanga biraryoshye cyane. Biva mu bihingwa bitandukanye twihingira iwacu mu Gihugu.

Ahantu hacururizwa ibintu bitandukanye ,haba harimo ibiryoshya indyo, harimo ibyubaka umubiri ,byose birahari ubishaka wabisangaho.

Ahantu bacururiza ibintu bitandukanye harimo ibyo bacana, ibyo bateka byubaka umubiri n'ibitera imbaraga

Isoko bacururizamo ibiribwa bitandukanye, harimo ibirinda indwara ibyubaka umubiri ibitera imbaraga n'ibiryoshya indyo, byose hamwe bikora indyo yuzuye.

Ubuhinzi bw'imbuto bukoze neza butanga umusaruro mwinshi cyane, bwera ahantu umukenke, ni yo mpamvu twagakunze kujya twihatira kurya izo mbuto, kuko umubiri wacu urazikenera cyane.

Muri iki gihe cy'iterambere, ubucuruzi ntabwo bakora ku manywa gusa, babukora na na nijoro kuko hanze haba ku manywa, mu nzu na ho hakaba ku manywa igihe bwije, kubera ko bakanda ku bikuta, ibintu bikagenda neza ntihagire uburara ngo burije.

Isoko ricururizwamo imbuto zitandukanye， barya nyuma yo kurya ibiryo bisanzwe， ziba no mu igaburo ritoya，zigirira akamaro umubiri wacu，ku bantu bakuru n'abana batoya barazikunda cyane， zirinda n'indwara.

Ahantu hacururizwa ibikoresho bakarabiramo bikozwe muri parasitiki. Ibyo babikamo, ibyo bashyiramo imyanda, biterwa n'icyo umuntu yateguye kuba ashaka kubikoresha.

Ahantu hacururizwa ibintu bambara mu birenge , bikoze mu ruhu n'ibindi bambara byo mu kazi nko mu umurima bari guhinga, bibarinda indwara, birinda gusitara, bityo umubiri wabo ukagira umudendezo.

Ubucuruzi bwose bukozwe neza bugirira nyirabwo akamaro, bwaba ari ubucuruzi bw'ibiribwa cyangwa se ibindi ibyo aribyo byose, iyo ubikoze ufite intego bigira umumaro.